Intebe ziri mu kabari, hagati harimo akameza nta bantu bazicayeho, hirya hariho ubusitani bw'ibiti birebire.

Inzu y'ubucuruzi yitwa Amikuse igeretse gatatu, inzu yubatse gutya ntabwo zitwara ubuso bwinshi, imbere y'ayo hariho n'indabyo, ndiku n'abantu imbere yabo yayo.

Amapine y'imodoka iyo ashaje nta bwo bayajugunya. Ahubwo bayakoramo ibindi bikoresho binyuranye, inkweto za rugarugobire nangwa kamambiri. Inkweto zikunze kurama cyane zikozwe mu mapine.

Abagabo bari gupakurura imifuka ya sima. Sima ikomeza inyubako zigakomera cyane, ningira kamaro mu bwubatsi.

Inzu y'ubucuruzi imbere yayo hatondetseho imifuka ya sima, iruhande hari umugabo wambaye isarubeti y'ubururu, isima ituma amazu yacu akomera cyane.

Inzu zubucuruzi zisize irangi ry'umuhondo, ifite n'igikari, imbere yayo hari umugore, hari n'umutaka wa MTN.

Inzu y'ubucuruzi ifite amakaro hejuru mu muryango, harimo umuntu, hasi hasize irangi ry'ubururu.

Imodoka iri mu gipangu hakingishijwe metalike isize irangi isa n'umutuku, hafungishijwe umunyururu, umunyururu.

Inzu z'ubucuruzi zizwi nka butike zicururizwamo ibintu by'amoko menshi , amoko anyuranye nizo abantu bakunze guhahiramo cyane.

Ibikoresho byo mu rugo by'amoko menshi. Harimo amasorori, ibiyiko n'udusekuru, byose biba ari ibikoresho byo mu rugo.

Inzu y'ubucuruzi, harimo imifuka ya kawunga, harimo ibikarito, harimo ibintu byinshi abaturage bahahiramo, ubundi abacuruzi baratwunganiye.

Mu isoko habamo ibikoresho byinshi, ibicuruzwa byinshi harimo: imyenda, amasurori, amasaniya, indobo, ibikoresho binyuranye.

Ubucuruzi bw'ibikoresho bya parasitiki harimo indobo, amasahani, ibyirori, ibikoresho binyuranye byose bya parasitiki. Kandi ni byo bihendutse kurusha ibindi mu kugira isuku.

Banki ni nziza, iguriza abantu amafaranga bakiteza imbere mu bucuruzi, mu buhinzi, no mu bworozi.

Urujya n'uruza rw'abantu baje kurema isoko harimo: abagabo, n'abagore. Ni isoko riciriritse baje kugura ibiribwa binyuranye.

Mu isoko habamo abantu benshi. Abacuruza ibintu bitandukanye imyenda, imyenda amakaroti, bamwe barikoreye bambaye imyenda itandukanye.